Abantu benshi bicaye bari mu nama akaba higanjemo ab'igitsina gabo ariko harimo n'ab'igitsinagore bicaye ku ntebe z'umukara bateze amatwi imbere yabo hari amazi ari mu gacupa, ikaramu, ikayi ndetse n'amatelefoni yabo.

Abantu benshi bicaye bakaba bicaye ku ntebe z'umweru mu mateti y'umweru hirya hari nabandi bicaye mu busitani hari umugore hagati ufite indangururamajwi yo gutanga ubutumwa hakaba hari n'undi mugabo uhagaze wambaye agapira k'umweruru hagati kabe n'undi mugabo ufite ibikoresho asa nkaho ari gufata amashusho y'ibiri gukorerwa aho.

Abantu benshi bicaye bari mu nama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hakaba hari imeza, bicaye ku ntebe z'umukara. Ku meza hariho amazi ari mu gacupa, indangururamajwi, amakayi ndetse n'amakara. Inyuma hari abagabo bafite ibikoresho bifata amashusho ndetse n'amajwi.

Umugore uhagaze imbere y'abantu yambaye imyenda miremire y'umukara ndetse n'umweru akaba imbere ari akameza karerekare kanditseho amagambo ya RGB biri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu akaba hariho n'indangururamajwi inyuma hari icyapa kinini cy'icyatsi hakaba arimo arageza kuba mukurikiye ubutumwa.

Abantu benshi cyane akaba arimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bicaye bateze amatwi, bicaye mu itente rifite amabara y'umweru ndetse inyuma yabo hakaba n'ibyuma bigenda bikonjesha aho hantu, hagiye hari n'utwapfa turanga icyo iyo nama iyo ari yo.

Abantu benshi bicaye bakaba bari mu itente nini y'umweru itatsemo amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi. Bicaye ku ntebe hagati yabo hakaba hari umugore ufite indangururamajwi mu ntoki ndetse arimo arageza ku bamukurikiye ijambo. Hirya yabo hakaba hari amazu.

Abantu benshi bicaye bari mu nama hakaba higanjemo abagore ariko harimo n'abagabo bakaba imbere yabo aha imeza nini iriho ibitambaro by'umukara, hakaba ari imbere yabo mudasobwa ziri ku meza dutashye ndetse n'udusera duto amazi ari mu ducupa bakaba bamwe bafite na telefoni mu ntoki bakaba bameze nk'aho bari mu nama kandi bateze amatwi bakurikiye.

Abantu benshi bari hamwe, bamwe bahagaze abandi basutamye, hakaba harimo abantu b'igitsina gabo ndetse n'ab'igitsina gore, bakaba bameze nk'abo basoje inama. Bamwe bafite amakayi mu ntoki ndetse n'udushakoshi rutugu, inyuma yabo hari amarido y'inka ndetse n'insakazamajwi nini zizwi nka bafure ndetse n'insakazamashusho zirimo ziraka.

Abantu benshi bari mu nama, harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bahagaze bari gukoma mu mashyi, imbere yabo hari ameza iriho udutambaro dusa nk'umutuku, bafite amazi mu ducupa, amakayi n'amakaramu ndetse bamwe bafite na za mudasobwa ziri imbere yabo, bari mu cyumba gifite inkuta z'umweru.

abantu bicaye hakaba hari abagabo babiri bicaye ndetse n'undi mugabo n'umugore bicaye barebana ku meza imbere yabo ari ibitambaro by'umweru ndetse na shokora hakaba hariho mudasobwa, telefone, amakayi ndetse n'amazi n'undi mugabo uhagaze wambaye ikositimu bakaba bari mu nzu ifite inzugi z'icyatsi ndetse ikaba ifite n'ibikuta by'umuhondo.

abantu benshi bicaye bakaba bameze nk'aho bari mu nama harimo ab'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore harimo abantu b'abirabura ndetse n'abazungu bicaye imbere ku meza yabo hari amazi ari mu gacupa, ikayi, ikaramu ndetse bamwe bafite za mudasobwa n'amatelefone yabo mu ntoki inkuta z'iyo nzu zifite ibara ryera ndetse imbere hari icyapa kinini kikiriho ikigo gishinzwe amasoro imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Abantu benshi bakikije ameza bicaye, basa nk'aho bari mu nama. Imbere yabo hari umugabo uhagaze, bigaragara ko hari icyo ari kubabwira, cyangwa ashaka kubagezaho.

Abaturage benshi bicaye ahantu hamwe, bafite abandi bicaye imbere yabo, bigaragara ko ari abayobozi babo, aba baturage bicaye batuje, bari kumva ibyo babwirwa n'abayobozi babo.

Abantu benshi bicaye bateze amatwi, imbere yabo hari umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki. Yambaye kositimu na karuvati ndetse hirya ye hari umugore wambaye agakoti k'umukara. Imbere yabo hari imeza ziriho amaterefone ndetse n'udukayi; abantu bakaba bicaye ari benshi harimo abagabo ndetse n'abagore.

Abantu bicaye hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, bicaye mu ntebe z'umukara imbere yabo hakaba hari imeza iriho amazi ndetse n'umutobe, bakaba bafite na za mudasobwa bamwe imbere yabo bamwe mu matelefone, amakaye n'amakaramu bakaba bakurikiye bari mu nama imbere yabo hari isakazamashusho ndetse hari n'umugabo uhagaze uri kubagezaho ubutumwa.

Abantu benshi bari mu nama bakaba bicaye ku ntebe z'umukara hakaba harimo abirabura ndetse n'abazungu, abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo bakaba hari imeza iriho amazi ari mu gacupa, ikayi n'ikaramu yo gufata ndetse no kwandika ibyo bari kumva, inzu ikaba iifite ibikuta by'umuhondo, imbere yabo bakaba ari insakazamashusho y'umweru ndetse hakaba hari n'icyapa cy'ubururu.

Umugore wuriye ipoto ry'amashanyarazi arimo arashaka ibikoresho byo gutunganya ikibazo cyaba gihari kuri iryo poto ry'amashanyarazi arimo gukoraho akazi.

Abantu benshi bicaye batuje, muri abo bantu harimo ab'igitsina gabo bambaye amakositimu n'abandi bambaye amashati ndetse n'bigitsina gore, bakaba bicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza ziriho ibitambaro by'umweru ndetse n'umutuku, bafite za mudasobwa, amakaramu ndetse n'amakay,i imbere yabo tutibagiwe n'amazi ari mu gacupa.

Abantu benshi cyane harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bicaye ndetse bateze amatwi, imbere yabo hakaba hari imeza ziriho amazi yo kunywa ndetse n'amakaramu n'amakayi barimo barandikamo ibyo bumvishe, hasi hafite tapi isa nk'ubururu ndetse bakaba bari ahantu heza hanini hatwikiriye bakaba bari mu nama.

Abagabo batatu bafite mudasobwa imbere yabo, bakikije ameza, biragaragara ko bari mu nama bari kwiga ku kintu runaka, hari umugabo wicaye hagati uri kureba muri mudasobwa ye.

Umugabo uhagaze wambaye kositimu akaba afite indangururamajwi mu ntoki ndetse n'imbere ye hari akameza karekare hari igipapuro ari gusoma ibyari kugeza ku bamukurikiye hirya ahantu hitaruye hari umugore wicaye ndetse n'umugabo bicaye imbere inyuma yabo hari icyapa kinini cyane cy'ikigo cya aragibi.

Abantu benshi bicaye hakaba harimo abana ndetse n'abantu bakuru, bicaye ku ntebe z'umutuku hakaba n'umugabo uri hagati uri gutanga ubutumwa afite indangururamajwi, yambaye na kositimu hirya hari ibyuma bigenda bikoresha cyangwa bishyushya aho hantu, hari n'abandi bantu hirya bahagaze batabashije kubona uburyo bicara bameze nk'abari mu nama.

Abantu batatu bose bambaye amadarubindi babiri muri bo ni abagabo n'aho undi umwe ni umugore umugabo umwe afite irangururamajwi bisa nk'aho hari ikintu ari kubwira bagenzi be bamuri imbere.

Abantu benshi bicaye barimo naga yabo hari abantu banekaba, harimo umwe ufite wambaye imyenda y'ubururu ufite indangururamajwi mu ntoki akaba ari kubagezaho ubutumwa, ndetse n'abandi batatu bicaye bakurikiye nyuma yabo hakaba hari insakaza amashusho.

Abantu benshi cyane bicaye, bakaba bari ahantu hameze nkaho ari muri sitade, bicaye ku ntebe z'umukara abandi bicaye aho habugenewe abantu bicara muri sitade, imbere yabo hari imeza ku bantu bicaye imbere ariho amazi ndetse n'ibipapuro na za telefoni, bakaba bakurikiye bameze nkaho bari mu nama cyangwa bari kwakira ubutumwa runaka.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe. Hari abagore babiri bicaye imbere, umwe wambaye amadarubindi, arishimye. Aba bantu bicaye basa nk'aho bari mu nama cyangwa ikindi kintu runaka.

Abantu benshi bicaye bari mu nama hakarimo abagabo ndetse n'abagore imbere yabo hakaba hari imeza iteguyeho igitambaro cy'umweru ku meza amakayi, amakaramu ndetse n'amazi ari mu gacupa hagati yabo hari akavase karimo igiti iyo nyubako ifite ibikuta by'irisize y'amabara y'umweru.

Abantu benshi bicaye mu nama bateze amatwi harimo abagabo bambaye amakositimu ndetse n'abagore, harimo abirabura ndetse n'abazungu bakaba bicaye, imbere yabo hari imeza ziriho amazi ari mu gacupa, amakaye ndetse n'amakaramu, inyuma ku nzu hakaba hariyo ibikuta bisa nk'umuhondo.

Abantu benshi bari mu nama cyangwa bateraniye hamwe bakaba bose bahagaze, harimo abagabo bambaye amakositimu n'bandi bambaye amashati harimo n'abagore, imbere yabo hari imeza ziriho ibitambaro by'umweru ndetse n'umukara, ku meza hariho amazi ikayin n'ikaramu.

Abantu bicaye bari mu nama harimo abantu b'igitsina gabo ndetse nab'igitsina gore, bicaye mu nama bakaba bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari imeza ikaba iriho terefone zabo bafite ikaramu mu ntoki ndetse n'amakaye abari imbere. Hakaba hateretse n'uducupa turimo amazi bakaba bacecetse kandi bakurikiye.

Abagore babiri, akaba ari abagore babiri bicaye, umwe yambaye imyenda y'umweru afite indangururamajwi mu ntoki, imbere ye hari imeza iriho mudasobwa, ikaramu ikayi, telefone ndetse n'agatasi ndetse n'agasahani karimo icyo kunywa, inyuma ye hari undi mugore wicaye wifashe neza wambaye ikoti ry'umweru ndetse n'agasengeri k'umukara.

Abantu benshi bicaye bakaba bicaye ku ntebe z'ikigina, ndetse abimbere bicaye ku ntebe z'ubukara. Bakaba higanjemo abagore ariko harimo n'abagabo. Imbere yabo hari imeza iteretseho; indangururamajwi, mudasobwa, amazi yo kunywa ,ndetse bafite n'amakayi n'amakaramu. Bakaba bateze amatwi bameze nk'aho bari mu nama.

Abantu benshi bicaye, hakaba barimo abantu b'ibitsina gabo ndetse n'ibitsina gore, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara. Iyo nzu bicayemo ifite ibikuta by'umweru. Bakaba bafite amakaramu ndetse n'amakayi mu ntoki, bamwe bafite na telefoni, bakaba bameze nk'aho bari mu nama.

Abagabo bari mu nama bakaba bicaye bamwe bambaye ikositimu abandi bambaye amashati, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, inzu barimote ikaba ifite ibikuta by'umweru, imbere yabo hakaba hari amazi ari mu gacupa bamwe bafite na mudasobwa imbere yabo, ndetse n'ikayi n'ikaramu.

Abantu bicaye mu nama bakaba ari abantu b'igitsina gore ndetse nabi gitsina gabo bakaba bicaye ku ntebe z'umutuku, icyo cyumba barimo akaba gifite amabara y'inkuta zabo n'umuhondo, akaba imbere yabo bantu hari imeza iriho mudasobwa, amatelefoni yabo bantu, amakaramu ndetse n'amazi ari mu ducupa, bakaba bakurikiye bameze nk'aho bari mu nama.

Urubuga rwo murandasi, akaba ari ikigo cy'imisoro n'amahoro, gifite urubuga ushobora gukoresha utiriwe ujya ku biro byabo, hakaba hari aho wakinjirira ugashyira TIN number yawe ndetse n'umubare w'ibanga, kandi hakaba hari n'uburyo ushobora gukoresha mu gihe wibagiwe umubare w'ibanga wawe, bikaba biri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Ubutumwa butanzwe n'irembo yuko ushobora kuba wabona serivisi nshyashya zaje ku rubuga rw'irembo hano ukaba wakandika icyiciro ni urugero siporo ugatanga amazina ya serivisi ushaka byose ukababikora utiriwe uva iwawe ,hari n'ubufasha wabona kuri numero ikora ku urubuga rwa whatsapp bakabagu nimero zayo ndetse ukabasha no guhamagara kuri numero itishyurwa ya mirongo icyenda icyenda n'icyenda.

Umunara munini ukozwe mu byuma akaba asize amabara y'umweru ndetse n'umutuku. Akaba ari umunara ukoreshwa mu itumanaho, hirya hari amazu menshi agiye akurikiranye kandi hakaba hateye n'ibiti byinshi birebire harimo ndetse n'ibiribwa by'ibigori.

Abantu bicaye mu nzu ifite ibikuta by'umweru, bakaba bicaye harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hakaba hari ameza, hakaba hari na za mudasobwa. Bakaba bameze nk'aho bari gufata amasomo y'uburyo wakoresha mudasobwa cyangwa n'izindi serivisi zo kuri murandasi.

Umugabo wambaye ipantaro ya kaki ndetse n'agapira k'icyatsi n'inkweto z'umukara, akaba ahagaze imbere y'umugore wambaye umupira w'umweru ufite ikaramu mu ntoki ndetse n'ikayi uri kwandika. Imbere akaba hari na mudasobwa akaba yicaye mu biro asa nkaho arimo araha serivisi uwo muhungu, inyuma ye hari isakazamashusho nini iriho amabara y'umweru ndetse n'ubururu. Ku ruhande uwo mugore wicaye hari n'ndi mugore nawe usa nkaho arimo aratanga serivisi.

Ubutumwa bw'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, ikaba itubwiye yuko ku nshuro ya makumyabiri na rimwe bagiye gushimira abasora, ukwezi ko gushimira abasora makumyabiri makumyabiri na gatatu, saba fagitire ya ibiyemu wubake u Rwanda, bikaba biri mu mabara y'umweru yiganjemo ndetse n'amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi.

Umunara munini cyane ukozwe mu byuma ukaba ufite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, akaba ari umunara ukoreshwa mu itumanaho. Hirya yaho hari biti birebire, hakaba hacaho n'insinga ku ruhande z'amashanyarazi, hari ndetse n'ibindi byuma bigiye bityaye ku buryo byagukata, bikaba bizwi nka senkenge.

Inzu ifite imiryango y'umweru inkuta z'umweru ndetse n'amakaro hasi y'umweru, mu imbere harimo umuntu wicayemo wambaye akagofero, mu imbere arimo ibikuta bisa ubururu ndetse hakaba harimo n'imeza ndetse imeza zikaba ziriho mudasobwa cyangwa ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa, hakaba hari icyapa kinini imbere cyanditseho irembo mu mabara y'ubururu bakaba batanga serivisi z'irembo.

Abantu babiri harimo umugabo ndetse n'umukobwa, bakaba bambaye ibisarubeti by'umweru, bakaba bameze nkaho bari gusobanurirana, bakaba bafite ikaramu ndetse n'ibipapuro mu ntoki, bakaba batubwira ko ushobora kwiyandikisha mu nama, mu kwitabira inama izaba tariki cumi n'eshanu na cumi n'icyenda z'ukwa gatanu bibiri na makumyabiri na gatatu.

Mudasobwa ebyiri ziteretse imbere,, inyuma hakaba hari amabara y'ubururu bwinshi akaba ari ubutumwa bw'ikigo gishinzwe amahoro, imisoro n'amahoro bakaba baguga bagushishikariza kumenyekanisha ipatanti y'umwaka wose wa makumyabiri makumyabiri na gatanu cyangwa igihembwe cya mbere uyu munsi ukaba ushobora kwishyura mbere y'itariki ntarengwa ya mirongo itatu na rimwe z'ukwa mbere bibiri na makumyabiri nagatanu.

Abantu bicaye bakaba barimo abantu b'igitsina gabo ndetse n'ab'igitsina gore hakaba harimo abakobwa ndetse bambaye imyenda y'umukara n'ubururu bakaba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga mu ntoki bakaba barimo banatanga serivisi ku bantu baje babagana bakaba bari imbere batonze umurongo imbere yabo hari nk'meza ndetse n'abahagaze bakaba barimo barasaba serivisi abo bakobwa.

Imodoka ifite amabara y'umweru yikoreye ibintu byinshi by'ibyuma, ikaba irimo iragenda mu muhanda w'igitaka, ku ruhande hakaba hari amazu ataruzura kubakwa ndetse hari n'ibiti by'ibitoki birebire ndetse n'ubusitani, hakaba hari n'ibindi biti birebire by'amapoto y'ibyuma bigenda bisakaza amashanyarazi mu ngo zigiye zitandukanye, hakaba hari n'ingo ziri kurande y'umuhanda.

Ifishi igaragaza urubuga rwa rura ikaba iriho ahantu ho kwiyandikisha kuri serivisi zabo iyi fishi irasaba kwandika amazina aderesi ya imeri na nimero ya telefone kugira ngo umuntu abashe gufungura konti nshya yabo.

Abantu benshi bari mu cyumba, bakaba bicaye ku ntebe ndetse imbere yabo hari imeza bakaba bari gukoresha za mudasobwa, bakaba bameze nk'aho ari mu ishuri harimo abagabo ndetse n'abagore iyo nyubako ifite ibikuta by'umweru.

Mudasobwa irimo urwandiko rugaragaza ibyagiye bivugururwa ku bigendanye n'ishyingirwa munsi y'iyi mudasobwa yanditse amagambo hariho nimero ushobora guhamagara ubakeneye, nimero ushobora gukoresha ukeneye ubufasha, n'izindi mbuga nkoranyambaga ushobora kubasangaho.

Icyuma kinini kandi kikire gikoreshwa mu gutanga amashanyarazi kikaba kizengurutswe n'umunara muremure uririmo insinga zigenda zisakaza amashanyarazi hirya yaho hari ibiti birebire ndetse n'andi mazu hakaba hakikijwe n'ubusitani ndetse n'indabyo hakaba utwuma tuzengurutse ibyo byuma tukaba dusize ibara ry'ikigina.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Ku rubande hakaba hari inzu ikorerwamo ubucuruzi. Hakaba hari na moto ziparitse. Abantu bakaba barimo banagendagenda. Hakaba hari ibicuruzwa biri hanze, harimo ibitoki ndetse n'ibindi abantu bagura.

Umugabo wambaye umupira w'maboko maremare w'ubururu mu ntoki ze afite telefone ari kutwereka uburyo wakoresha mu kwikorera serivisi zijye zitandukanye z'irembo hi hepfo barakwereka ibisabwa kugira ngo ukore ibyo bintu ukaba bakwereka inzira ku nzira wacamo kugira ngo ubashe kubona serivisi irembo zitanga zijye zitandukanye.

Umunara muremure ukoze mu byuma ukaba usize amabara y'umweru, ukaba ari umunara ukoreshwa mu itumanaho. Ukaba uzengurutswe n'ibindi byuma, bifite ibara ry'ikigina ndetse hakaba hariho udutambaro tw'umuhondo twanditseho MTN. Hirya hari ibiti ndetse n'ubusitani.

Umuhanda w'igitaka akaba ari umuhanda utameze nkaho ari mwiza ku buryo ibinyabiziga byacamo byisanzuye. Ukaba ku ruhande hari amazu ndetse hari n'icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu kikubwira ko aho hantu bari kukwereka hakoreramo irembo ndetse na serivisi z'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro.

Inzu nini ifite amabara y'umweru, hanze hakaba hari igikuta cyubakishije amatafari. Hakaba hari n'ipoto rirerire rigiye ririho insinga zisakaza amashanyarazi, icyo gipangu gifite ibara ry'ikigina ndetse hari na numero mirongo itatu igaragaza ko icyo gipangu ari icya mirongo itatu. Kuri iyo nzu hariho amasahani atezeho ifatabuguzi rya kanari cyangwarya sitatayimu.

Inzu nini ifite amabati asa nk'umutuku hakaba icyuma hejuru yayo gifata amazi akonje kikayashyushya kikaba gikoresha n'imirasire y'izuba kugira ngo abagiye koga cyangwa bakeneye andi mazi ashyushye mu nzu bayabone, inzu ikaba izengurutswe n'ibiti byinshi ndetse n'indabo n'igipoto kirekire kigiye gisakaza amashanyarazi muri urwo rugo ndetse n'izindi ngo.

Inzu ifite icyapa cy'ijana na makumyabiri nagatandatu. Ikaba ifite igipangu cyiza ndetse mo imbere ikaba isize amabara y'umuhondo. Ikaba ifite ubusitani hanze ndetse hateyemo n'ibiti. Ikaba ifite n'ipoto riri imbere y'iyo nzu isakaza amashanyarazi mu ngo zigiye zitandukanye.

Igipangu kinini gifite amabara y'icyatsi, icyo gipangu kikaba gifite inkuta z'umuhondo, ndetse hakaba inzu ifite amabati asa umutuku, icyo gipangu gifite nimero ya kane ndetse hari n'amasahani akoreshwa mu ifatabuguzi rya sitari tayime cyangwa rya kanari, hirya y'iyo nzu hari n'andi mazu menshi.

Ipoto rirerire, rikaba ririho insinga zigenda zisakaza amashanyarazi mu ngo zigiye zitandukanye, hirya hakaba hari ibiti biteye ari birebire kandi byinshi bikaba bikikije iryo poto.

Ibiti bibiri by'amapoto bikaba biriho imashini itanga umuriro ndetse n'insinga zigenda zisakaza amashanyarazi mu ngo zitandukanye, ikaba iteye mu busitani burimo ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti byinshi kandi birebire.

Umuhanda munini ucamo imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga bigiye bitandukanye hakaba hariho n'amatara agenda amurika amabara atandukanye; icyatsi, umutuku cyangwa umuhondo byemerera imodoka gucamo mu cyerekezo kimwe, izindi zigahagarara kugirango birinde impanuka harimo n'abanyamaguru bari kwambuka umuhanda ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru natwo abanyamaguru bakaba barimo baracamo.

Ipoto rirerire rikaba ririho itara. Iryo tara rikaba rimurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro barimo ibinyabiziga ndetse n'abagenda n'amaguru. Hiryaho hari ibiti byinshi kandi birebire hakaba hari n'insinga z'amashanyarazi zisakaza umuriro mu ngo ariko ibiti bikaba byaribivanze n'insinga.

Umunara muremure cyane ukozwe mu byuma hakaba hagiye hariho insinga zigenda zisakaza amashanyarazi mu bice bitandukanye ikaba ikikijwe n'ubusitani bunini buteyemo indabyo ndetse n'ibiti birebire kandi byinshi.

Umunara munini cyane kandi muremure ukozwe mu byuma, ukaba ariho insinga z'amashanyarazi zigenda zisakaza umuriro mu ngo zigiye zitandukanye, ukaba uteye ahantu hitaruye amazu ndetse hakaba hateye ibiti byinshi kandi birebire.

Inzu ebyiri nini zikaba zi hagati yazo hari amamashini asa nk'aho atanga umuriro ikaba ikikijwe n'umusozi muremure uriho ibiti byinshi kandi birebire ndetse n'ubusitani hari n'insinga zitwara amashanyarazi mu ngo zigiye zitandukanye.

Umuntu w'igitsina gore, akaba yambaye agapira k'umutuku yambaye ndetse n'akajiri, akaba yambaye agapfukamunwa ndetse n'ingofero na ga mu ntoki, akaba ari umukozi wa REG, hirya hari insinga nyinshi bigaragaza ko ari umutekinisiye uje gukora cyangwa gukemura ikibazo runaka cy'amashanyarazi.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bijyiye bitandukanye hirya yaho hakaba ari uturi tw'abanyamaguru dutangizwa n'agasima gasize amabara y'umweru n'umukara hakaba hirya hari utuyira tuganisha mu mazu menshi agiye akurikiranya hari mapoto maremare atwara amashanyarazi ndetse n'ibiti byinshi kandi birebire biteye hirya y'umuhanda.

Umunara muremure w'ibyuma, ukaba uriho insinga zigiye zitandukanye zisakaza amashanyarazi mu ngo, akaba hirya yayo hari ibiti byinshi biteye ku musozi, ndetse hari n'inzu nyinshi zituyemo abantu zigiye zikurikiranye.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo hararacamo imodoka. Ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru, hakaba hari imodoka ziparitse. ku ruhande rw'akayira k'abanyamaguru hari amazu akorerwamo ubucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa, hari n'abantu barimo baratambuka muri utwo tuyira tw'abanyamaguru. Hirya y'umuhanda hari ibiti byinshi kandi birebire biteye.

Amazu menshi agiye akurikiranye, hakaba hari inzu ifite igipangu cy'icyatsi hirya hari inzu zisize amabara y'umuhondo ndetse hanze yaho hakaba hari ubusitani buteyemo indabo ndetse n'ibiti hari n'amapoto maremare ariho insinga zigenda zisakaza amashanyarazi hirya y'inzu hakaba hari ibiti birebire ndetse n'urutoki.

Ni inzu nini ifite hasi amakaro aza ikigina, inkuta zayo zikaba zisa umweru, ndetse na purafo isa umweru, imiryango yayo ikaba isize ibara rya kake, hirya hari abantu bicaye bakaba bameze nk'aho bari kwa muganga, harimo abagore ndetse abo bantu bakaba bambaye udupfukamunwa.

Inzu nini cyane ikaba ikorerwamo ibikorwa bya Leta, ikaba ifite amabara y'umuhondo, hanze hakaba hari amavaze agiye arimo ibiti, hakaba hari n'ubusitani buteyemo ibiti, hari ndetse n'izindi nzu nyinshi zikikije iyo nzu hakaba hari n'imodoka ziparitsemo.

Umugore wicaye wambaye umupira w'ubururu imbere ye akaba hari mudasobwa akaba afite n'ikaramu ndetse n'agapapuro imbere hirya hari izindi mpapuro zikoze mu kintu cya dosiye akaba yicaye asa nkaho ari mu biro arimo ategereje gutanga serivisi inkuta z'inzu zikaba zisa umweru.

Inyubako nini imeze nkaho'aho ari kwa muganga ikaba ifite amabati atukura hakaba hariyiparitse imodoka mabara y'umweru,y umutuku ndetse n'ubururu, akaba ari imodoka y'imbangukiragutabara ishobora kuza kugufata igihe wagize ikibazo, hirya y'iyo nyubako hari ibiti ndetse n'ubusitani hari n'ibigega bifata amazi y'imvura.

Akayira kanini abantu bagendamo kakaba gatwikirijwe amabati, ibikuta bikaba byubakishijwe amatafari ahiye, hakaba hari icyapa kinini kigaragaza ko ahantu bahavurira amaso ndetse n'izindi n'izindi ndwara zigendanye n'amaso akaba ari icyapa cyo mu mabara y'ubururu hirya hari ibyatsi ndetse n'ibiti n'indabyo.

Iyi nyubako nini ikaba ifite imiryango y'umweru ndetse inkuta z'icyo cyumba zikaba zimweru imbere harimo amarito y'ubururu ndetse hari n'ibitanda umuntu ashobora kuryama hari n'ibindi byuma bikoreshwa mu buvuzi ko bigaragara ni ahantu hajya abantu bakeneye ubufasha bw'ibanze kandi bwihutirwa akaba ari mu bitaro.

Inyubako ndende ikaba ari inyubako yubakishije amatafari ahiye, hanze yaho hari ubusitani ndetse hari n'ahantu hanini haparitse imodoka nyinshi, iruhande rw'iyo nzu hari n'andi mazu menshi agiye akurikiyeho hakaba hateye n'ibiti birebire kandi byinshi hirya y'ayo mazu.

Inzu nini zifite amatafari ahiye ndetse n'ibikuta bisize amabara y'umweru ndetse n'utwuma tugiye tuzizengurutse tw'umweru, hagati hakaba hari akayira abantu bacamo gakozwe mu mapave, hirya hari ubusitani burebure bugiye buteyemo uturabo ndetse harimo n'amatara yamurikira abantu mu gihe cy'ijoro.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse yambaye n'isarubeti y'umweru, akaba asa nkaho arimo arakoresha amamashini y'umweru, muri icyo cyumba inkuta zaho zikaba zisa umweru ndetse akaba harimo n'amamashini menshi agenda akora ibintu bigiye bitandukanye.

Imodoka nini ikoreshwa mu gutabara abantu bagize ibyago bakomeretse cyangwa bakeneye ubuvuzi bw'ibanze bwihuse, iri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, ikaba iparitse iruhande rw'inzu ndende ifite ibikuta bisize ibara ry'umuhondo ndetse iyo modoka iriho utuntu tw'umusaraba mu mabara y'umutuku, ikaba yanditseho n'amagambo ambilanse

Umugabo w'igikara, akaba afite ubwanwa hejuru y'umunwa ndetse akaba yambaye ingofero y'umukara ndetse irimo n'uturongo tw'umuhondo, yambaye ishati y'umweru n'imyenda miremire y'umutuku, akaba asa nk'aho akora mu bucamanza ari umucamanza cyangwa umushinjacyaha cyangwa se umwunganizi mu mategeko.

Abantu benshi bicaye mu byatsi bakaba bafite imitaka kugira ngo bikingire izuba hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore hagati yabo hari umugabo wambaye imyenda y'iroza hakaba n'abandi bagabo bari kurahande bambaye imyenda y'iroza, hari n'amazu agiye akikijwe ahantu bari ndetse n'ibitoki bakaba bameze nk'aho bagabo ari imfungwa cyangwa ibigororwa zaje kuganira n'abo bantu.

Abagabo batatu bahagaze, ku ruhande rw'iburyo hari umugabo wambaye ipantaro y'ubururu ndetse wambaye n'agashati k'amaboko magufi k'umweru n'agapfukamunwa, hirya hari undi mugabo uteye ukuboko nawe wambaye ishati ndetse n'ipantaro, hagati ye hari umugabo wambaye ikanzu y'umukara usa nk'aho ari uwunganira mu mategeko, abo bagabo basa aho nk'aho bari mu bucamanza.

Umugabo wicaye mu ntebe ndetse n'umugore wicaye mu ntebe bombi bambaye imyenda y'amakanzu miremire y'umutuku ndetse n'utugofero mu mutwe, ndetse hari n'umugabo uhagaze wambaye imyenda ijya gusa nk'iyabo y'umutuku ndetse n'akagofero mu mutwe, ukuboko kumwe kurazamuye mu kirere ukundi gufashe ku idarapo ry'u Rwanda akaba arimo ararahira, bakaba ari abacamanza cyangwa abunganizi mu mategeko.

Umugabo usa nkaho ari mu myaka ikuze, akaba yambaye ikanzu ndende ifite amabara y'umutuku, hagati akaba ari amabara y'umukara ndetse n'ibara ryera mo imbere yambaye ishati ndetse na karuvati akaba asa nk'ukora mu bucamanza.

Umugore wambaye amarinete aka yabambaye ikanzu nini y'umutuku ndetse n'umweru, umukara yambaye n'ingofero y'amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, inyuma ye hari idarapo ry'igihugu iri mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi n'umuhondo, bakaba basa nk'abakora mu nzego z'ubucamanza.

Abantu benshi bicaye abandi bahagaze, bakaba bicaye mu busitani munsi y'igiti kinini cyane, hirya yabo hari amazu menshi kandi hari n'ubundi busitani, imbere yabo hakaba hahagaze umugore wambaye igitenge ndetse n'agapira k'umutuku, hari n'abandi bicaye ku ntebe imbere yabo hari basa nkaho bari kuganira.

Umugabo usa nkaho arimo aratanga ubutumwa akaba afite indangururamajwi ifashe ku mwenda we akaba nta musatsi afite yambaye umwenda w'iroza bigaragara nk'aho ari imfungwa cyangwagororwa akaba asa nkahoa ari mu nama arimo arayayigeza ku bamukurikiye ubutumwa cyangwa arimo arabaganiriza inyuma ye hari icyapa kinini cy'umweru.

Umugabo w'igikara akaba ari umugabo wambaye ikanzu nini y'amabara y'umutuku, hagati hakaba hari ibara ry'umukara ndetse n'umweru, akaba ari umugabo usa nkaho ari umucamanza, umushinjacyaha cyangwa umwunganizi mu by'amategeko.

Urwandiko ruriho amagambo ari mu ndimi eshatu zitandukanye, hariho ingingo ebyiri iya kabiri n'iya gatatu, ingingo ya kabiri ni ingingo ijyanye n'ururimi naho ingingo ya gatatu ni ingingo ijyanye no gutangira gukurikizwa.

Abantu benshi barimo baragenda hakaba harimo abagore bambaye imyenda impuzankano ya police imbere hari n'umugore wambaye imyenda y'umukara n'umweru akaba yambaye n'amapingu bakaba bameze nkaho bamuherekeje agiye mu rukiko iruhande rwe hari umugabo wambaye ikanzu nini y'umukara afite n'amakayi ndetse n'ibitabo mu ntoki asa nk'aho ari umucamanza cyangwa umwunganizi.

Abantu benshi bamwe bahagaze abandi bicaye, hakaba hari abantu bambaye amakabutura ndetse n'amashati ndetse n'udupira iyo myenda iri imbere ikaba ari amaroza, ndetse hirya akaba ari abandi bantu bicaye ku ntebe ariko baya bari imeza basa nk'abamo barandika hagati yabo bahagaze umugabo ndetse n'umugore basa nkaho bari muri gacaca.

Abantu benshi bahagaze. Bakaba harimo abagore ndetse n'abagabo. Bakaba bambaye imyenda y'amakanzu manini. Bamwe bambaye amakanzu manini, yiganjemo amabara y'umutuku hagati harimo utubara tw'umweru n'umukara. Abandi bambaye amakanzu manini, afite ibara ry'umukara ndetse n'utuntu tw'umweru turi mu ijosi. Bakaba bameze nk'aho ari abacamanza cyangwa bakora mu nkiko.

Abagabo bicaye imbere ku ntebe z'umukara bakaba bambaye amakanzu maremare y'umukara ndetse bambaye n'udupfukamunwa imbere y'ameza manini iriho amazi yo kunywa hirya imbere yabo hari abagabo bandi babiri bahagaze bambaye imyenda ijya gusa nk'iyabogabo akaba n'umugabo uri hagati wambaye ikabutura ndetse n'ishati y'amaboko magufi y'iroza nawe yambaye agapfukamunwa basa nkaho bari mu rukiko.

Umugabo wambaye ikanzu nini isa amabara y'umutuku, imbere ku gatuza ari amabara y'umukara ndetse n'umweru, imbere yambayemo ishati na karuvati akaba asa nkaho akora mu by'ubucamanza ari umwuganizi cyangwa umushinjacyaha.

Abantu batatu bahagaze. Hakaba harimo umugabo wambaye imyenda y'umukara ndetse n'agapfukamunwa. Hirya hari umugore wambaye imyenda y'umukara ndetse n'agapfukamunwa. Hagati hari umugabo wambaye imyenda y'iroza ndetse n'agapfukamunwa. Bakaba bahagaze, imbere yabo basa nkaho bari mu rukiko. Hirya hari abandi bantu bicaye muri iyo nzu.

Abagabo batatu bahagaze n'Undi mugabo ubari inyuma muri abo bagabo batatu bahagaze imbere hari babiri muri bo bashinzwe umutekano bo mu gice cya polise bakaba bambaye impuzankano zabo z'umukara, hagati yabo hari umugabo wambaye ikanzu nini ya kake ndetse n'agofero mu mutwe, akaba yambaye n'amapingu mu ntoki, hirya yabo hari imodoka isize amabara y'umweru n'umukara bisa nk'aho umuntu ajyanywe mu rukiko.

Abagabo batanu, babiri muri bo bashinzwe umutekano, hari umugabo usa nk'uri gusohoka, yambaye umupira urimo amabara ya oranje n'ingofero irimo amabara ya oranje n'umweru, bigaragara ko asohotse muri gereza.

Umugabo wambaye amarinete cyangwa amadarubindi, akaba yambaye ikanzu nini y'umuhondo hagati harimo utubara tw'umweru ndetse n'umukara, yambaye na karuvate, akaba yambaye n'ingofero y'umukara irimo n'uturongo tw'umuhondo, akaba akora mu rukiko ari umucamanza, umushinjacyaha cyangwa umwunganizi mu mategeko.

Abantu benshi bambaye imyenda isa nk'iroza, amakabutura ndetse n'amashati y'iroza bambaye n'udupfukamunwa, hakaba hari n'abandi bagabo bambaye impuzankano z'icyatsi bameze nk'aho ari abacungagereza, abo bandi ba mbere bakaba bameze nk'aho ari imfungwa cyangwa ingorororwa zije kuburana kuko bafite n'ibipapuro mu ntoki, hirya hakaba hari ubusitani buteyemo ibiti ndetse n'indabyo.

Umugabo wambaye ikositimu na karuvati, akaba ahagaze imbere yambaye na marinete. Imbere hari aka meza karerekare kariho indangururamajwi zimutunze imbere, aka abemeze maze nkaho arigutanga ubutumwa. Inyuma ye hari icyapa kinini cy'umuhondo akaba ameze nk'aho ari mu nama.

Abantu benshi bari ku murongo, hakaba harimo abagabo bambaye amakositimu ndetse n'amakaruvati, hari n'abagabo bambaye impuzankano za gisirikare, hakaba hari n'umugore umwe uri hagati wambaye imyenda y'abacamanza isa umutuku ndetse n'umweru n'akagofero mu mutwe, inyuma yabo hari ikirangantego cya guverinoma y'u Rwanda.

Abantu benshi bicaye bakurikiye harimo abantu benshi bambaye ikabutura ndetse n'agashati k'amaboko magufinya by'i roza, bambaye n'udupfukamunwa bose bicaye ku ntebe z'umukara hari n'abandi bagabo benshi bambaye imyenda y'abacamanza cyangwa y'abunganizi miremire y'umukara ndetse nabo bambaye udupfukamunwa bo bicaye imbere yabo hari akameza kariho za mudasobwa y'indangururamajwi ndetse n'amazi n'ikayi.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka ndetse n'amamoto, imodoka ikaba ifite amabara y'umweru n'umukara yanditseho polisi, inyuma hakaba hari abagabo bambaye impuzankano z'umukara za polisi, inyuma hari n'amamoto ya polisi, ku ruhande hari ibiti byinshi kandi birebire n'ubusitani.

Inyubako ifite amakaro hasi asa umwe ibikuta bikaba bisa umuhondo akaba afite n'inzugi zisa ibara ry r'ikigina hakaba hari ibikoresho bibiri biri mu mabara atukura ndetse n'umukara ibyo bikoresho bikaba bifashe ku rukuta bikoreshwa mu gihe habaye ikibazo cy'inkongi y'umuriro bikaba bifasha mu kuzimya ndetse no kugabanya iyo nkongi.

Inzu ifite amakaro y'umweru ndetse n'ibikuta by'umweru inzugi nazo zikaba zisa umweru, ku ruhande ku gikuta hari ibyuma bibiri mu mabara y'umukara ndetse n'umutuku bikaba ari ibyuma bikoreshwa mu kuzimya ndetse no kurwanya inkongi y'umuriro.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanyekanya hakaba harimo haracamo amakamyo manini, hakaba hari umugabo wambaye impuzankano y'umukara usa nkaho arimo aragerageza kuzimya iyo modoka yindi yagize ikibazo cy'inkongi y'umuriro, hakaba hari hirya y'umuhanda ibiti biteyeho ndetse n'ibyatsi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande harimo agahanda k'abanyamagurukaba bahagaze umuntu uri mu nzego zishinzwe umutekano wa polisi yambaye impuzankano zabo z'umukara, hakaba harimo hacamo n'abanyamaguru benshi hari ibiti binini bigiye biriho insinga zisakaza amashanyarazi ndetse n'ibiti bimurikira abantu mu gihe cy'ijoro n'abandi bakoresha umuhanda.

Icyapa kiri ku nkingi ebyiri cyanditseho ibitaro bya polisi Kacyiru, biriho ikirango cya polisi, hirya y'icyo kirango hari ibiti byinshi by'icyatsi, hakaba hari n'umuntu wambaye ijire y'icyatsi.

Umuhanda muremure ndetse munini ugenda mu byerekezo byinshi, ukaba urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo moto ndetse n'imodoka, harimo n'abapolisi mu muhanda rwagati, bambaye impuzankano zabo z'umukara, hari ibiti biteye hirya y'umuhanda ndetse n'amapoto maremare.

Inzu y'ubwizigame iherereye ku Muhima imbere yayo hari umupolisi w'umudamu n'imodoka y'abapolisi, hari abandi bantu batatu babiri muri bo barahagaze undi wicaye afite igikapu mu ntoki ze.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari n'utuyira tw'abanyamaguru ku ruhande hariho umuntu uri gucamo ufite utubido mu ntoki hirya hari imodoka ziparitse, akaba hari n'amazu maremare agiye ari ku ruhande rw'utu tuyira tw'abanyamaguru ndetse iruhande rw'imihanda hateye ibiti byinshi.

Abantu benshi bakaba bambaye impuzankano zabugenewe zifite amabara y'umukara, hakaba harimo n'utubara tw'icyatsi. Bambaye amagofero ndetse bakaba bari gupiriza amazi menshi cyane bakaba bari mu ishami rishinzwe kurwanya inkongi z'umuriro bameze nk'aho bari kuzimya hirya hari ibiti byinshi.

Igikoresho kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara kikaba cyegeranye n'ibikarito hasi hari isima ndetse hirya hakaba hari intebe, iyo nyubako ikaba ifite ibikuta by'umweru, iki gikoresho gikoreshwa mu kuzimya umuriro mu gihe habaye inkongi.

Mu umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haaracamo imodoka ndetse n'amamoto ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru karimo ahagazemo abana barimo baragenda bava ku ishuri bambaye impuzankano zabo harimo n'abashinzwe umutekano mu gice cya polisi bambaye impuzankano zabo nabo bahagaze kuri hari n'amazu akikije ku kayira k'abanyamaguru ndetse n'ibiti.

Inyubako ifite ibikuta by'umweru ndetse n'inzugi z'umweru, bikaba hasi hari amakaro y'umweru hagati hari igikarito kirekire kimeze nk'aho kivuyemo ikindi cyuma kiri imbere kiri mu mabara y'umuhondo, umutuku, ndetse n'umukara akaba ari ikintu bakoresha bazimya umuriro cyangwa mu gihe bari kurwanya n'inkongi y'umuriro.

Abantu benshi bambaye imipira y'amaboko magufi, ifite amabara y'ubururu, umutuku ndetse bambaye n'utugofero mu mutwe tw'umweru, bakaba bafite amadarapo matoya mu ntoki, afite amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umutuku, bakaba basa nkaho baje kwamamaza umukandida wabo ku mwanya w'umukuru w'igihugu, bamwe bakaba bicaye no ku ntebe.

Abantu benshi kandi bari hamwe bakaba bambaye imyenda yiganjemo iy'amabara y'ubururu, umweru ndetse n'umutuku, bari mu matente y'umweru kandi manini afite n'udutako tw'ubururu ndetse n'umutuku, hakaba hari abantu hirya nabo barimo batera ibiganza hejuru basa nk'aho bari mu ishyaka rimwe rya politiki iruhande rwabo hari amazu maremare ndetse n'ubusitani.

Abantu bicaye ku ntebe z'umweru abandi bahagaze, bakaba bateye hamwe munsi y'igiti kinini, kuruhande rwabo hari agakiyosiki ke cyangwa akazu gatonya ka emutiyene mobayire mani, bahagaze mu kibuga hakaba hari umupolisi uri kubaha ubutumwa.

Abagabo benshi bambaye kositimu, bakaba bifashe neza kandi bateze amatwi, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, hirya hari izindi ntebe nyinshi zicayeho abantu, n'izindi nyinshi ziticayeho abantu, imbere yabo hari imeza ndetse ziriho n'indangururamajwi.

Abantu benshi bicaye bakaba bameze nk'abari mu nteko ishinga amategeko hari abantu babicaye imbere benshi biganjemo abagabo bambaye amakositimu ndetse n'umugore uba hagati imbere yabo hari utumeza tugiye turimo amazi yo kunywa, ibipapuro bamwe bafite na mudasobwa ndetse hari n'indangururamajwi imbere yabo barimo bareba n'abantu benshi nabo bafite za mudasobwa imbere yabo ku meza.

Abantu benshi baje kwamamaza umukandida wabo ku mwanya w'umukuru w'igihugu bakaba bafite amadarapo mu ntoki afite amabara y'ubururu, umweru ndetse n'umutuku, hakaba hari n'amadarapo manini cyane hari umugabo uri hagati uzamuye ukuboko urimo urabasuhuza yambaye umupira w'umweru, umutuku ndetse n'ubururu akaba arimo arabapepera afite n'amarineti mu ntoki.

Umugore wambaye agashati k'umweru ndetse n'ikoti ry'umukara yambaye n' marinette ndetse n'amaherena ku matwi, akaba yicaye ku ntebe y'umukara, inyuma ye hari idarapo ry'igihugu ndetse amarido yo mu nzu akaba asa ubururu akaba imbere ye hari ameza iteretseho amazi ari mu gacupa ndetse n'ikayi n'ikararamu akaba arimo aratanga ikiganiro.

Umugabo wicaye akaba yambaye ikositimu ndetse na karuvati n'ishati y'umweru, asa nkaho ari umugabo ukomeye ukora mu bice mu kazi k'ubutegetsi cyangwa mu yindi mirimo kuko yambaye ikositimu, hirya ye hari amadarapo menshi y'ibihugu bigiye bitandukanye.

Abantu benshi bicaye, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere hari ameza, ku meza hariho amazi ari mu gacupa, hakaba hariho n'indangururamajwi, bakaba bameze nk'aho bari mu nteko ishinga amategeko, bagenda bahanahana ibitekerezo, imbere yabo hari umugabo uhagaze usa nkaho ari gufata amashusho.

Umugabo ndetse n'umugore bicaye ku ntebe ku murongo w'imbere, umurongo w'inyuma hari n'undi mugabo ndetse n'umugore, ku murongo w'imberebere hari umugabo ufite ibipapuro mu ntoki wambaye ikositimu ndetse na marineti, ku ruhande rwe hari umugore wambaye ikanzu ndende ya oranje, bose n'inyuma bafite imeza zibari imbere z'umukara, bakaba bafite amazi ndetse n'uturangururamajwi imbere yabo.

Umugore w'inzobe ufite umusatsi usanzwe, akaba afite ishati y'umweru y'amaboko magufi niyo yambaye, yicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hari indangururamajwi, inyuma ku gikuta hari amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inzu nini, iyo nzu ikaba iriho ibyapa by'umweru, hakaba n'ikindi cyapa kirekire kigaragaza ko iryo ari ishuri rya Kimironko, hari imitako isa ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, hirya y'iyo nzu hakaba haparitse imodoka ndetse hakaba hateye n'ibiti birebire.

Ahantu mu busitani hari abantu benshi hari amabara y'ubururu n'umweru n'umutuku hari abagabo benshi bambaye imyenda ya gisirikare hari umugabo wambaye ingofero wambaye n'umupira w'umweru n'umukandara n'ipantaro y'umukara bigaragara ko uyu mugabo yari yaje kwiyamamaza.

Abantu benshi bicaye bateze amatwi bari mu matente y'umweru, hari hasize amabara y'ubururu ndetse n'umutuku n'umugabo uri imbere yabo akaba afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye ingofero ndetse n'amarineti akaba arimo aratanga ubutumwa, inyuma hari umugabo wambaye imyenda y'umukara usa nkaho acungiye umutekano uwo mugabo.

Abagabo batatu bahagaze, bakaba bamwe bambaye amakositimu ndetse na karuvati, uri hagati akaba afite indangururamajwi imbere ye ari kugeza ku bamukurikiye ubutumwa, inyuma yayo hari n'abandi bantu bicaye, bakaba nabo bateze amatwi hirya yabo hazengurutswe n'amazu ndetse n'ibyapa binini biririmo umugabo wambaye ikositimu ikaba isa nkaho ari kwiyamamaza nk'umukandida uri mu marushanwa y'amatora.

Ibyapa binini biriho amabara y'umweru hakaba hariho ifoto y'umugabo wambaye kositimu, akaba hariho amagambo avuga ngo indi ntabwe, bimeze nkaho ari icyapa cyamamaza umukandida uri kwiyamamaza, hirya hari amazu menshi, ndetse hari n'ibiti byinshi.

Ikirangantego cy'ishyaka rya politiki, kikaba gisa amabara y'umweru, ubururu, ndetse n'umutuku, hasi hakaba hari amagambo yanditsemo amabara y'umuhondo avuga ngo demokarasi ubumwe n'amajyambere, mo hagati harimo akantu kameze nk'izuba ndetse n'ishusho y'intare, hejuru hakaba handitse efuperi inkotanyi.

Abantu benshi harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bamwe bambaye udupira hejuru tw'umweru bafite n'ibintu mu ntoki barimo baramena hasi bagaragaza y'uko nta kintu gisigaye bameze ngaho bavuye mu cyumba cy'itora bagaragaza ko abantu bose bamaze kubabarurira amajwi, hirya hari n'umugabo wifashe mu mufuka wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu

Uruva urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane bakaba bambaye ingofero z'umweru ndetse n'imipira bakaba bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku , umweru ndetse n'ubururu bakaba hari uri imbere ufite icyapa kinini kiriho ifoto y'umugabo wambaye kositimu ndetse na karuvati na marineti kiriho cyanditse ngo '' umurenge wa karambo akagari ka karambo tora kagame paul umuturage ahore ku isonga''.

Abantu benshi bicaye imbere bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, harimo abambaye imipira y'umweru ndetse harimo abazungu n'abirabura bamwe bambaye n'ingofero mu mutwe, bakaba bafite imbere yabo imeza iriho ibitambaro by'umukara hari amazi yo kunywa amakayi n'amakaramu ndetse hariho n'utudarapo bigiye bigaragaza ko bagiye bahagarariye ibihugu bigiye bitandukanye, inyuma yabo harimo amadarapo manini kandi hari n'icyapa kinini cy'umweru kigaragaza yuko bari mu matora.

Abantu benshi bahagaze batonze umurongo, hakaba hasi hari tapi isa nk'icyatsi, hari n'utudarapo tugiye tuzengurutse aha hantu turi mu mabara y'umuhondo n'cyatsi, ndetse n'ubururu, bakaba bameze nkaho baje gutora.

Abantu benshi cyane bakaba bose cyangwa abenshi muri bo bambaye imyenda isa amabara y'umutuku, umweru ndetse n'ubururu, hakaba hari n'amadarapo maremare afite amabara y'umutuku, ubururu ndetse n'umweru, hari n'abantu benshi bambaye impuzankano z'umukara za gipolisi bameze nk'aho bashinzwe umutekano.

abagore bicaye hamwe bakoze ikizere, bakaba bicaye ku ntebe z'umweru, bamwe bambaye udupira tw'icyatsi hejuru ndetse n'undi wambaye agakoti k'umukara anitandiye, bakaba bafite ibipapuro bari gusoma, bakaba bari muri sare nini, bakaba basa nk'aho bari mu mashyaka ya politike, mu nama y'amashyaka ya politike ya girini pati.

Abantu bahagaze ndetse n'abandi bicaye harimo umugabo wambaye kositimu y'ubururu n'ishati y'ubururu ndetse na karuvati y'umutuku abo bantu bakaba barimo baraseka, iruhande rwe hari abagore nabo barimo baraseka bakaba bafite n'amasakoshi ku rutugu, hirya hari abantu bicaye bafite n'amazi ari mu gacupa, hari inkuta z'ikigina ndetse n'umweru muri icyo cyumba.

Umugabo wambaye ikositimu y'ubururu ndetse n'imbere agapira k'umweru, akaba abahagaze imbere ye ari indangururamajwi, akaba arimo arageza ku bamukurikiye, ubutumwa inyuma ye hari n'abandi bantu bicaye, hakaba ari ibyapa inyuma yabo biriho uwo muntu bikababisa umweru, inyuma yabo bantu hari amazu akorerwamo ubucuruzi, birasa nkaho ari umukandida waje kwiyamamaza.

Abantu benshi cyane bakaba bambaye imyenda ifite amabara y'umweru, umutuku ndetse n'ubururu, bakaba bafite n'utudarapo mu ntoki tw'amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umutuku. Hagati aho hari umugabo ufite ingofero, amarineti ndetse n'agapfukamuwa, akaba yambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru, akaba yafunze igipfunsi mu kuboko kw'ibumoso, hari n'ubundi akaba yambaye imyenda y'umukara usa nk'aho amucungiye umutekano.

Umugabo wambaye amarinete ndetse na kositimu, akaba yambaye na karuvati ndetse n'ishati y'umweru, imbere ye hakaba hari indangururamajwi, akaba arimo arageza ku bamukurikiye ubutumwa, yicaye ku ntebe y'umukara ndetse hari n'amazi ateretse ku meza imbere ye ari mu gacupa, inyuma ye hari insakazamashusho y'umweru.

Umuhanda ucamo n'imodoka zigiye zitandukanye akaba harimo haracamo imodoka y'umweru ndetse inyuma hari imodoka y'umweru ndetse ifite n'amabara y'umuhondo isanzwe ikoreshwa mu gutwara abantu bake mu buryo bwa rusange, hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba byatewemo n'ibiti ndetse n'ubusitani.

Umuhanda urimo ikinyabiziga gitwawe n'umuntu wambaye umupira w'ubururu, iruhande rw'uyu muhanda hari ubusitani burimo ibiti birebire cyane, iruhande rw'ubusitani hari imodoka nini cyane, irimo imizigo hakaba harimo n'umuntu bisa nkaho ari gupakurura iyo mizigo.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakabamo haracamo igikamyo kinini cyikoreye umucanga kirimo amabara y'umutuku, harimo haracamo n'ikindi kinyabiziga cy'amapine atatu gitoya gitwara imizigo, hirya y'umuhanda hari amazu menshi arimo amwe atarangiza kubakwa, hakaba hari n'utuyira tw'abanyamaguru.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo ikinyabiziga kinini cy'igikamyo gifite ibara ry'umutuku harimo n'ikindi cy'igikamyo gifite ibara ry'umuhondo ndetse cyikoreye n'amamatora ndetse yatwikirijwe na shitingi y'ubururu, hepfo no hakurya y'umuhanda hakaba hariho utuyira abanyamaguru bacamo ndetse hari n'ibiti birebire kandi byinshi bikikije umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka y'igikamyo, ndetse harimo haracamo na moto, hirya nno hino y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru twegeranye na ruhurura, ndetse hakaba hepfo y'muhanda hari ibiti byinshi biteye mu busitani kandi birebire.

umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bijgie bitandukanye, hakaba harimo haracamo igikamyo kinini cyikoreye amamatora, gitwikiwe na shitingi y'uburu, harimo haracamo n'ikindi kinyabiziga cy'amapine atatu gisanzwe gikoreshwa mu bwikorezi bw'imitwaro, hari hirya no hino y'umuhanda utuyira tw'abanyamaguru, hepfo y'umuhanda hari ibiti byinshi kandi birebire.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka ndetse n'amamoto atwaye abantu, ku ruhande hari amazu arimo akorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse hari n'akayira k'abanyamaguru, abanyamaguru bakaba barimo baragenda bacamo.

Umuhanda ukikijwe n'ibiti bifite amabara y'umutuku, ku ruhande rw'umuhanda hari abamotari benshi, abambaye kasike z'umuhondo n'abambaye kasike z'umutuku, bigaragara ko aba bamotari bategereje abagenzi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba urimo uracamo n'imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange izwi nka twegerane. Hirya har utuyira tw'abanyamaguru ndetse n'amatara yaka kuko ari mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, akaba ari umuhanda munini uri gucamo ama moto ndetse n'imodoka, hirya y'umuhanda hari akayira gacamo abanyamaguru, harimo moto ziparitsemo, hirya y'akayira k'abanyamaguru hari amazu menshi akorerwamo ubucuruzi, ndetse hirya y'umuhanda hakaba hateye ubusitani ndetse n'ibiti.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bijye bitandukanye, ukaba urimo uracamo amakamyo ndetse na moto, hirya hari inzu ndende y'amagorofa menshi ikaba iriho icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru n'umukara cyanditseho forutebe, hari n'utuyi tw'abanyamaguru hakaba haparitsemo imodoka nyinshi ndetse hamaracamo n'abanyamaguru bamwe bagenda bisanzwe n'abandi bikoreye imizigo.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitatu moto ebyiri n'imodoka, moto imwe itwaye umukobwa wambaye umupira w'ubururu n'jipo y'umukara bambaye amakasike y'umutuku, iyi modoka irasa icyatsi kandi ifite n'ikintu cy'umweru hejuru.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka nini y'igikamyo ifite amabara y'umutuku, hakaba harimo haracamo ndetse n'igare, hirya ndetse no hino y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru hepfo y'umuhanda hakaba hateye ubusitani burimo ibiti birebire kandi byinshi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakab harimo haracamo imodoka na motari, imodoka nini y'igikamyo ifite amabara y'umweru hirya hari akayira k'abanyamaguru ndetse kakaba gakikijwe n'ibiti birebire kandi byinshi.

Ikinyabiziga kiriho umumotari uhetse umugenzi bose bambaye ibigofero byagenewe abajya kuri ibi binyabiziga, bari mu muhanda urimo imirongo minini y'umweru isobanuye ko aha hantu ariho hashobora kwambukirwa.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo moto, harimo haracamo n'umuntu wambaye igisarubeti cy'ubururu ndetse afite n'ingorofani mu ntoki, hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru tuba dufatanye n'amazu, hari amazu akorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo hacamo imodoka nini y'umweru itwara abantu mu buryo bwa rusange hepfo umuhanda no haruguru y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hari n'amapoto maremare ariho itsinga zisakaza amashanyarazi ,hari inzu hepfo zikorerwamo ubucuruzi ndetse n'abantu bakaba barimo baraca mu tuyira tw'abanyamaguru.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka ndetse na moto, hirya y'umuhanda hariyo utuyira tw'abanyamaguru ndetse abanyamaguru bakaba barimo baragenda batambukamo, hirya y'umuhanda hari n'aho imodoka ziparitse zitarimo ziragenda mu muhanda, hakaba hari inzu nini kandi nyinshi zigiye zikikije uwo muhanda.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba hari ku ruhande utuyira tw'abanyamaguru hakaba haparitse amamoto menshi ategereje yuko abagenzi baza bakajyana kuhande ahari amazu akorerwamo ubucuruzi n'imwe ifite ibyapa binini cyane bigaragara by'umuhondo bya savie center cyangwa aho bafashiriza abantu bafite ibibazo ku bijyanye na serivisi za mtn.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bijye bitandukanye, hakaba ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru, abanyamaguru bakaba barimo baracamo hafi y'utuyira tw'abanyamaguru haparitse imodoka nyinshi zitarimo ziragenda, ku ruhande rw'uduhanda w'abanyamaguru haparitse n'izindi modoka ndetse hari n'amazu menshi hirya y'umuhanda hari ibyatsi ndetse n'ibiti biteyeho birebire.

umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo igikamyo gifite amabara y'umweru ndetse gifite n'imizigo inyuma itwikirije shitingi y'ubururu hakaba harimo haraca n'abamotari bahetse abantu hepfo hari akayira k'abanyamaguru no harukuri ndetse n'amapoto maremare amurikira ibinyabiziga ndetse n'abantu mu gihe cy'ijoro hakaba hateye n'ibiti birebire ndetse byinshi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanyekanya hakaba kabarimo haracamo imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange ifite amabara y'umweru harimo haracamo na moto, hirya no hino y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru dukurikiwe na ruhurura, hepfo y'umuhanda hari ibiti birebire kandi byinshi.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari gucamo akamodoka k'amapine atatu gakoreshwa mu gutwara imizigo, hirya hari utuyira tw'abanyamaguru hakaba harimo haracamo abantu, hirya y'utuyira tw'abanyamaguru hari ruhurura ndetse hari n'ibiti biteye hirya y'imihanda.

Abantu bari kugenda bacaho akaba ari akayira hirya haparitse imodoka ndetse hirya akaba hari inyubako ndende ifite amabara y'icyatsi, hakaba ari ibiti byinshi biteye ku ruhande y'utwo tuyira abantu bari gucamo.

Umuhanda mu nini ucamo ibinyabiziga bijyiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka nini itwara abagenzi mu buryo bwa rusange isize amabara y'umweru ndetse na orange. Hakaba hari n'abantu bagenda baca mu muhanda hakaba n'izindi modoka ziri guca mu muhanda, hiryaaho hari inzu ndende ifite amadirishya y'icyatsikaba n'izindi nzu zi zengurutse uwo mu muhanda.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba urimo uracamo imodoka ngufiya y'umweru ndetse n'umuhondo itwara abantu mu buryo bwa rusange, ikaba izwi ku izina rya tagisi vatiri, ikaba harimo haracamo na moto ndetse n'abatwaye amagare, hirya hari utuyira tw'abanyamaguru hepfo y'umuhanda hari ibiti binini bikikije umuhanda kandi birebire.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakabaa harimo aracamo imodoka y'umukara ndetse n'indi modoka y'igikamyo ifite amabara y'umweru nicyatsi, hirya hari utuyira tw'abanyamaguru dukurikiwe na ruhurura, hepfo y'umuhanda hari ibiti birebire kandi byinshi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande hakaba haparitse ibinyabiziga by'amakamyo bitarimo biragenda, hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru. Abanyamaguru bamwe barikugenda abandi barahagaze ahhakaba hari n'amazu menshi akikije uwo muhanda ndetse n'ibiti.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka y'igikamyo ifite amabara y'umweru, ndetse hari na shitingi iri mu mabara y'icyatsi, hirya y'umuhanda hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse na ruhurura hepfo y'umuhanda hakaba hari ibiti birebire kandi byinshi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo hacamo ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwa rusange kiri mu mabara y'umweru ndetse ari gucamo n'igare, hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru, hakaba hepfo y'umuhanda hari n'ibiti byinshi kandi birebire.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari gucamo igikamyo kinini cy'ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hakaba harimo haracamo n'igare, hepfo y'umuhanda no haruguru y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru, hepfo hakaba hari ibiti birebire kandi byinshi bikikije umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba uri gucamo imodoka nini y'igikamyo iri mu mabara y'umutuku, hakaba hari n'utuyira tw'abanyamaguru turi ku ruhande turi gucamo abantu, hirya no hepfo y'umuhanda hari ibiti byinshi biteyeho.

Umuhanda mu nini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari gucamo imodoka y'umutuku ikaba ari igikamyo ndetse hakaba hari gucamo n'amamoto hirya hari utuyira tw'abanyamaguru turi gucamo abanyamaguru. Hakaba hateye ibiti byinshi kandi birebire hirya y'umuhanda.

Umuhanda ugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanya kabamoracamo imodoka y'umweru ndetse n'igikamyo kiri mu mabara y'ubururu hepfo no haruguru y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru dukurikiwe na ruhurura hepfo y'umuhanda hari ibiti birebire kandi byinshi bizengurutse umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo amamoto menshi, ku ruhande rwaho hari utuyira tw'abanyamaguru bakaba ntabantu barimo baracamo, hari n'ibiti birebire bigiye biteye hirya y'umuhanda ndetse n'ubusitani, hakaba hari n'amapoto maremare asakaza amashanyarazi ndetse anamurikira abantu mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo ibikamyo ndetse n'amamoto, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru, hakaba hari n'ingorofani iri mu kayira k'abanyamaguru, hari umugore wicaye uhetse umwana ku kayira k'amanyamaguru, hirya y'utuyira tw'abanyamaguru hari amazu akorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye.

Ahantu hanini hasa nkaho hadacamo imodoka, hakaba hari ibiti byinshi ndetse n'abantu barimo baragendagenda, hirya hari inzu ndende iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'ibirahure byaho by'umukara, ikaba isa nk'aho ari inzu ikorerwamo n'umujyi wa Kigali, ikaba izengurutswe n'ibiti ndetse ari n'amapoto asakaza amashanyarazi.

Abantu bari guhita abandi bicaye, bakaba bari ahantu hari ubusitani bwiza abenshi bakaba bari ku matelefone yabo bari kuyakoresha, hakaba harimo kandi n'ibiti birebire biteye hagati y'ubwo busitani, bakaba abantu bambaye n'udupfukamunwa hari n'amapoto maremare arimurikira kuko hijimye ari nijoro.

Ahantu hanini hateye ibyatsi bikaba harimo n'udukoni hakaba hameze nk'aho ari ikibuga abantu bakiniramo umupira hakaba hirya y'aho hateye ibiti birebire kandi byinshi bigiye bizengurutse icyo kibuga cy'umupira.

Ahantu hanini, hateye cyangwa hari tapi isa nk'icyatsi. Ikaba isa nk'aho ari mu kibuga cy'umupira w'amaguru. Harimo abantu benshi bari gukina, bamwe bambaye utujire. Hirya yabo akaba hari ibiti byinshi kandi hari n'ubusitani.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bitandukanye. Hirya hakaba hari ubusitani bwiza buteyemo indabyo ndetse n'ibiti birebire. Hakabamo ubwoko bw'ibiti bakunze kwita imikindo. hakaba hari n'akapa gateyemo, gafite amabara y'umweru ndetse n'utweyerekezo tugenda tuzengurutse. Bivuga ko aho hantu hashobora kuba ari aho imodoka zizengukira mbere yo guhindura icyerekezo.

Icyuma kigenda cyaka amabara agiye atandukanye ndetse harimo n'amasegonda iryo tara rigenda cyangwa iryo bara rigomba kumara ryaka, bikaba bifasha mu kurinda impanuka zo mu muhanda, igenda yemerera ibinyabiziga bijya mu cyerekezo kimwe gutambuka, mu gihe ibindi bihagaze kugira ngo bitagongana, hirya hari ibiti byinshi.

Umuhanda ukikijwe n'ibiti ndetse n'ubusitani iruhande rw'umuhanda hari icyapa gifite ibimenyetso bibiri, kimwe kiririmoho abantu basheshe akanguhe ikindi kiriho ikorosi ry'iburyo.

Icyapa kiri mu mabara y'umukara n'umweru, hagati hakaba hari agashushanyo k'imodoka ndetse kazengurutswemo n'ikintu cy'ibizeru ndetse haciyemo umurongo biri mu mabara y'umutuku, bigaragaza ko aho hantu hatemewe guparika. Ni icyapa gikoreshwa mu batwaye ibinyabiziga ndetse bagomba kubahiriza amategeko agenga ikoreshwa ry'umuhanda.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku kikaba ari icyapa cya mpande eshatu, hagati hari amagambo yandikishije amabara y'umukara kikaba kiri ahantu hari ibiti birebire bigipfutse ndetse harimo n'indabo.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakabamo umuhanda wo hasi ndetse n'undi uca hejuru y'uwo muhanda, karimo agenda mu ibinyabiziga by'imodoka ndetse na moto, hakaba hari icyapa kirekire cy'amabara y'icyatsi kigenda kikwereka aho ugeze, cyanditseho Kagarama, Nyamata ndetse n'ibindi biri mu mabara umweru hari n'amapoto maremare ariho amatara amurikira abantu mu gihe cy'ijoro kuruhade hari akayira akayira k'abanyamaguru, abanyamaguru bakaba barimo ba bagacamo.

Icyapa cya mpandeshatu kiri mu mabara y'umweru n'umutuku hagati hakaba hari umuntu umeze nk'aho afite igitiyo mu ntoki hagati hari amabara y'umweru, hirya hari ibyatsi ndetse n'ibiti bigiye bizengurutse icyo cyapa.

Ni icyapa cya mpande enye, akaba ari icyapa gifite amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, akaba ari icyapa gikoreshwa mu mategeko ndetse n'amabwiriza agenga abakoresha umuhanda harimo abatwaye ibinyabiziga ndetse n'abagenda n'amaguru.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bijye bitandukanye hakaba harimo haracamo imodoka ndetse na moto, umuhanda ukaba ugenda mu byerekezo hagati y'umuhanda hari ubusitani buteyemo ibiti birebire ndetse harimo n'amapoto amurikira ibinyabiziga ndetse n'abandi bakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro, hari akayira k'abanyamaguru karimo karagendamo abanyamaguru hirya hakaba hari ubusitani ndetse n'ibiti bikikije umuhanda.

Icyapa kinini gikoreshwa mu mategeko n'amabwiriza agenga abakoresha umuhanda akaba igizwe n'ibizeru bibiri biri mu mabara y'umutuku hagati hakaba hari ibara ry'umweru hakaba hari inyuguti ya p iri mu mabara y'umukara ndetse haciyemo umurongo w'amatsiko bivuga ko ahantu hatemewe kuhaparika ikinyabiziga.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ku ruhande hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse abanyamaguru bakaba bari kuducamo hakaba hari icyapa cyanditseho karongi akarere ka karongi cyerekana ko aha muri ako gace turi muri karongi kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, kurunde rw'inzira z'abanyamaguru hari ubusitani bunini ndetse n'ibiti byinshi biri ku musozi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hepfo y'umuhanda hakaba hari inzu isize amabara y'umweru, ifite inzugi ndetse n'amadirishya by'umukara, hakaba hari n'igipangu cy'amabara y'umumweru ndetse n'umukara. Hiya hari andi mazu ndetse hari n'ibiti byinshi bikikije iyo nzu kandi birebire.

Inzu nini kandi indede, ikaba isize amabara y'umweru ndetse n'umukara, ikaba hejuru yanditseho amagambo biza, inyuma yayo ifite igipangu cyiza cy'umukara, ndetse ikaba ifite ibiti byinshi biteyemo ndetse n'indabo, irereye Kimironko ku murenge.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka, zimwe zifite amabara y'umukara ndetse harimo haracamo na moto, hirya hari akayira k'abanyamaguru kakaba gaparitsemo imodoka ndetse gakikijwe n'amazu maremare kandi ya etaje, hari n'ibiti bisakaza amashanyarazi muri ako gace.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba hirya yawo hari inzu nini igeretse ikaba isize amabara y'umukara ndetse n'umuhondo, ikaba ifite igipangu gikozwe mu mbaho ikaba ndetse ifite n'ubusitani hanze yayo birimo ibyatsi ndetse'indabo, ni igipangu cya makumyabiri na gatatu abantu bakaba baza kubamo by'igihe gito.

Umugore wicaye wambaye agashati k'amaboko aciye k'ibara rya roza wambaye ijipo y'umweru irimo imirongo yicyatsi imanuka uteze igitambaro mu mutwe ari guseka inyuma ye hari ibiribwa nk'imbuto inyanya tungurusumu ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye akaba hari ibinyabiziga biri gucamo by'imodoka, hakaba n'abantu bari gucamo hagati mu muhanda hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hari n'imodoka ziparitse zitari gukoresha umuhanda. Hari amazu menshi agiye ari hirya y'imihanda akorerwamo ubucuruzi, ndetse hari n'ibiti biteye hagati y'utuyira tw'abanyamaguru.

Amazu maremare agiye akurikiranye kandi manini hagati yayo hakaba hari ibiti byinshi, hari n'amapoto y'ibiti agiye ariho insinga zisakaza amashanyarazi, hari n'ikigega gifata amazi y'imvura kikayabika, hagati handitsemo amagambo agaragaza ko ahantu ari ku kibuga k'indege.

Umuhanda munini ucamo imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga ukaba ari umuhanda w'igitaka hirya hari amazu hari igipangu cy'umukara kinini ndetse n'ikindi cy'icyatsi kirimo inzu ndende kandi nini ifite amabati y'umutuku hanze y'ibipangu hari ubusitani buteyemo indabyo ndetse n'ibiti binini hirya ku musozi hari amazu menshi ndetse n'ibiti.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo imodoka ndetse n'amamoto hirya ari utuyira tw'abanyamaguru hakaba hari n'ibiti birebire biteye ku muhanda hari amapoto maremare ariho amatara agenda amurikira abantu ahantu hakaba ari ku Giporoso.

Umuhanda mutonya ucamo imodoka hakaba harimo haracamo n'abagenzi hirya hari ibipangu bigiye bitandukanye harimo igisa umukara ndetse gifite mo n'ikigega gifata amazi mu gihe cy'imvura hirya naho hari ikindi gipangu gifite amabara y'ikigina hakaba hateye ubusitani hanze y'amazu ndetse n'ibiti.

Amazu menshi kandi maremare agiye yegeranye hari amazu afite amagorofa ndetse n'andi mazu asanzwe ku ruhande hakaba hari ubusitani ndetse n'ibiti birebire bigiye biteye hagati y'ayo mazu.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto n'imodoka, hakaba harimo n'abantu bari kugenda, harimo imodoka nini ifite amabara y'icyatsi n'umweru, harimo amatara maremare yo ku muhanda kandi uyu muhanda ukikijwe n'inzu ku ruhande.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ndetse na moto, ufite ibifate bibiri, ukikijwe n'ibiti n'ibimera n'indabo wegereye amazu.

Umuhanda w'amabuye ukaba ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hirya yaho hakaba ari mu mazu maremare kandi meza afite amabara y'umukara ndetse n'umweru, aho hantu akaba ari mu kajagari ka kanombe ka kabiri, hirya hari amapoto maremare asakaza amashanyarazi mu ngo.

Abantu benshi barimo barakina ni abantu bari mu kigero gitoya cy'abana bakaba bambaye impuzankano z'amakabutura y'umukara ndetse n'imipira y'umuhondo, bakaba bari ku byicungo bari ahantu hari ubusitani burimo ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti birebire.

Inyubako nziza kandi nini ikaba isize amabara y'ikigina, ikaba ndetse ifite amabati y'umutuku hirya yayo hari izindi nyubako, hanze hari ubusitani buteyemo ibiti birebire ndetse n'uturabyo.

Inyubako nziza kandi nini, ikaba ari inyubako ya etaje, ikaba ifite amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku, ifite igipangu cy'umukara, ikaba ifite hasi n'amapave ndetse hari n'imodoka iparitsemo y'umweru.

Amazu menshi agiye akurikiranye akaba ari amazu maremare ageretse ndetse n'andi asanzwe, hakaba hateye ibiti hagati y'ayo mazu ndetse hakaba hari n'utuyira abanabanyamaguru babacamo, hirya hitaruye hari andi mazu maremare ari mu mabara y'umweru ndetse hakaba hameze nk'aho andi atararangira, hari ibikoresho by'abubatsi.

Umuhanda ugenda mu byerekezo bibiri hakaba harimo haracamo ibinyabiziga, hari gucamo ikinyabiziga cy'imodoka y'umukara, hirya hari inzu ifite yubakije amatafari ahiye ndetse n'utuyira tw'abanyamaguru, abantu bakaba barimo baracamo hirya hateye ibiti birebire.

Umuhanda w'amabuye ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba n'akayira k'abanyamaguru gahari, hari igipangu kiri ku ruhande gifite nimero ya cumi na rimwe, mu gipangu harimo ibiti birebire ndetse no hanze yaho hari ubusitani ndetse n'ibiti, hari n'amazu agiye akurikikira iyo nzu hari n'amapoto maremare asakaza amashanyarazi muri icyo gice.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande hari n'utuyira tw'abanyamaguru, hakaba hari ubusitani bunini kandi buteyemo ibiti birebire kandi byinshi, hirya hari inyubako ndende ifite amagorofa menshi, bakwereka y'uko aha hantu ari kuri cumi na kabiri zone.

Umuhanda muto ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, akaba ari umuhanda w'amabuye, akaba haracamo moto ndetse kurande akaba n'utuyira tw'abanyamaguru duhari, umuhanda ufatanye ku mazu, akaba ariyo amazu abantu babamo ndetse n'andi y'ubucuruzi ay'ubucuruzi hanze hari ibicuruzwa birimo amabase, indobo ndetse n'ibindi bicuruzwa, abantu bakayemo baraca muri uwo muhanda hari n'amapoto maremare asakaza amashanyarazi muri ako gace.

Akayira gacamo abanyamagurukaba kagizwe n'amapave, hirya hari umugore urimo uragacamo, hirya y'ayira k'abanyamaguru hari ubusitani bunini buteyemo ibyatsi, ndetse n'ibiti birebire, hakaba hari n'amapoto agiye amurikira abantu mu gihe k'ijoro.

umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo ibinyabiziga by'imodoka, ndetse na moto, kuruhande hari akayira k'abanyamaguru, ndetse hepfo yaho hari ubusitani burimo ibyatsi ndetse n'ibiti birebire bigiye bizengurutse mu muhanda.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, akaba ari umuhanda wo hasi ndetse no hejuru hari umuhanda hakaba harimo haracamo moto ndetse n'igare rihetse imizigo, hirya hari utuyira tw'abanyamaguru tuba dukikijwe n'ubusitani buteyemo ibiti birebire.

Umuhanda munini ugendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haragendamo amamoto ndetse n'imodoka, umuhanda ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hirya hakaba hari ubusitani bunini ndetse n'ibiti biteyemo.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanya hakaba ari umuhanda wo hasi ndetse nohejuru haca undi muhanda, hakaba harimo haracamo ibinyabiziga, hakaba kurande hari utuyira tw'abanyamaguru hakaba arimo amagare ndetse n'abantu bari kugendamo, hirya yabo hari ubusitani buririmo n'ibiti, hakaaba n'amatara acanye kuko ari igihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, umuhanda ukaba ugenda mu byerekezo bigiye bitandukanye, harimo cya cyapa gicunga umuvuduko w'imodoka kugirango hirindwe impanuka zo mu muhanda, hari n'igiti kiriho amatara agenda amurika bitandukanye yemerera ibinyabiziga birimo gutambuka mu cyerekezo kimwe, n'ibindi guhagarara kugirango ngo hirindwe impanuka, kururande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hatewe n'ibiti byinshi.

Umuhanda munini ugenda mu byerekezo bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo ibinyabiziga bya moto ndetse n'imodoka, hirya hari utuyira tw'abanyamaguru, kabanyamaguru bakaba bari gucamo, hakaba hari na ruhurura nini iri ku ruhande rw'imihanda, hari ibyatsi ndetse n'ibiti n'amatara akaba arimo araka.

Umuhanda munini ugenda mu byerekezo byinshi, ukaba urimo uracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo: amakamyo, ndetse n'imodoka zisanzwe, hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru, ndetse hakaba hari n'amazu menshi hakaba hateye n'ibyatsi ndetse birimo n'ibiti birebire.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari ibyerekezo byinshi, ibinyabiziga byacamo muri uwo muhanda, hirya hari utuyira tw'abanyamaguru, tukaba tuzengurutswe n'ibiti ndetse n'indabyo nyinshi, hagati hari amapoto agiye acanira abantu mu gihe k'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, akaba ari umuhanda ufite ibyerekezo byinshi, hagati y'imihanda hari akantu k'ikizeru kazwi nka ropuwe aho imodoka zizenguruka mbere yo kujya mu kindi cyerekezo hateyemo ubusitani ndetse harimo n'ibiti, mu muhanda ari gucamo ibinyabiziga, hirya y'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru ndetse hakaba hateye n'ubusitani n'ibiti.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka ndetse hirya yaho hari utuyira tw'abanyamaguru, abanyamaguru bakaba bari gucamo, hakaba n'imodoka iparitse umuntu ari kuvamo, ikaba iri hirya y'umuhanda, hari n'ibiti bigiye biteye hirya y'utuyira tw'abanyamaguru byinshi bizengurutse uwo muhanda.

Icyuma gifata umuvuduko w'ibinyabiziga bikoresha umuhanda, kikaba kigiye kirimo umuvuduko ntarengwa ibinyabiziga bigomba gukoresha mu gihe icyo kinyabiziga kirengeje umuvuduko, icyo cyuma kikaba kibifotora hanyuma kikaza gutanga ayo makuru uwo muntu akazahanwa, giteye mu busitani iruhande rwacyo hari ibiti birebire ndetse n'ibyatsi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, hirya hari utuyira tw'abanyamaguru, ndetse hakaba hateye n'ubusitani bwiza ndetse n'ibiti birebire kandi byinshi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, umuhanda ukaba uca mu byerekezo byinshi, hagati hari aho imodoka igomba kubanza kuzenguruka igiye guhindura icyerekezo hazwi nka rompuwe, hakaba hateyemo ibyatsi ndetse n'ibiti, hari n'amapoto maremare agenda amukira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro, hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, umuhanda ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye harimo aracamo imodoka ndetse na moto, ku ruhande rw'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse duteyemo n'indabyo na pasiparumu, hari umunyamaguru urimo uracamo. Hirya y'umuhanda hakaba hari ibiti byinshi ndetse birebire n'amapoto agiye amurikira abantu mu gihe k'ijoro cyangwa abatwaye ibinyabiziga.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba ugenda mu byerekezo byinshi, hagati y'imihanda harimo udupasiparume duteyemo, ndetse harimo n'amapoto maremare acanira abantu mu gihe cy'ijoro hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru dukikijwe n'ibiti birebire ndetse n'ubusitani hari n'amazu maremare cyane y'amagorofa menshi akikije utwo tuyira tw'abanyamaguru.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, hari gucamo imodoka ndetse na moto, hagati harimo akayira ndetse harimo n'amabara y'umweru agaragaza ko abanyamaguru bashobora kwambuka umuhanda, hari utuyira tw'abanyamaguru turi hirya ndetse no hakurya y'umuhanda, hari n'ibiti byinshi biteye hepfo y'umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka nini y'umweru bitwara abantu mu buryo bwa rusange, hagati y'imihanda hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibiti biteyemo, hirya hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse n'ibiti byinshi bigiye bizengurutse.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanya, haka harimo haracamo amamoto ukaba umuhanda ugenda mu byerekezo bitandukanye. Hari utuyira tw'abanyamaguru aya matara maremare amukira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro haba n'ibitire birebire kandi byinshi bikikije umuhanda.

Umuhanda munini ugenda mu byerekezo byinshi kandi ucamo ibinyabiziga bijye bitandukanya hakaba harimo haracamo imodoka y'umukara ukaba kuruhande rwawo hari utuyira tw'abanyamaguru abanyamaguru bakaba barimo baracamo ukaba ugiye uzengurutswe n'ibiti birebire ndetse n'ubusitani.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo moto, kururande hari utuyira tw'abanyamaguru, ndetse hakaba ariteye n'ubusitani kuruhande y'utwo tuyira, hirya y'umuhanda hari ubusitani buteyemo ibiti birebire, hari n'amapoto asakaza amashanyarazi ndetse anamurikira abantu mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba ugenda mu byerekezo byombi, hirya y'umuhanda no hino y'umuhanda hakaba hari tuyira tw'abanyamaguru ndetse hagati y'imihanda ibiri, hari ubusitani buteyemo ibiti birebire ndetse harimo n'amapoto amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hejurukaba n'undi muhanda n'imihanda ibiri umwe hejuru undi uri hasi harimo haracamo imodoka, hirya hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse abanyamaguru bakaba bari gucamo, hirya y'umuhanda hakaba hari ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ukaba ugenda mu byerekezo byinshi, hakaba harimo haracamo imodoka ndetse na moto, hagati y'imihanda hakaba hari ubusitani buteyemo ibiti ndetse hari n'utuyira tw'abanyamaguru ku ruhande y'umuhanda akaba natwo hirya yaho hari ibiti birebire ndetse n'ubusitani.

Umuhanda munini ugendamo ibinyabiziga bigenda bitandukanye, uwo muhanda ukaba ugenda mu byerekezogiye nabyo bitandukanye, hari imodoka ndetse na moto ziri gucamo hari n'amapoto hariho amatara agenda yaka mu mabara atandukanye kugirango ngo yemere imodoka zimwe guhita n'izindi zo mu kindi cyerekezo guhagarara kugirango bidateza impanuka hari ibiti byinshi bizengurutse mu muhanda.

Umuhanda mutoya ucamo imodoka akaba umuhanda w'igitaka akaba agiye uzengurutswe hirya no haguru y'umuhanda n'ingo zigiye zitandukanye hanze y'ingwa hari ubusitani buteyemo indabyo ndetse hakaba hateyemo n'ibiti ari n'amapoto maremare agenda atakaza amashanyarazi muri zo ngo.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba maracamo imodoka ndetse na moto hagati y'imihanda, harimo ubusitani buteyemo ibiti birebire ndetse hakaba harimo n'amapoto asakaza amatara ndetse n'urumuri mu gihe cy'ijoro, kuhande hari utuyira tw'abanyamaguru turimo turagendamo abantu, hakaba n'icyapa cya pa kigaragaza ko bitemewe guparika aho ahantu, hari n'ibiti biteyemo mu busitani.